Ubuhinzi bw'ibihingwa by'ibinyamisogwe, ibi bihingwa ni ibigori, ibigori bihinzwe ku buso bunini bigaragara ko ibishoboka ari iby'abantu barenze umwe, hagaragazwa ingufu z'izuba zifite icyo zifasha buno buhinzi.

Icyumba cyo kuraramo, giteguye neza, gisa neza, harimo igitanda, igitanda gishashe neza gifite imisego ibiri, iki gitanda gishobora kuba cyaryamaho abantu babiri, imbere yacyo hari aka ameza ko gushyiraho ibikoresho by'umuntu uraye muri iki cyumba.

Ubuhinzi ibitunguru byinshi birunze hasi umumama arimo aragenda abifumba bike bike, biragaragara ko arimo abifunga bigendeye ku biciro aribuze kubigurishaho.

Ubucuruzi bw'imyenda, umugabo wambaye ingofero, wambaye bote, arimo aragura imyenda, akaba arimo ayigurishwa n'undi mugabo, arimo arareba neza inkweto ko zaba ari nziza kugira ngo azigure.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu. Umumotari wambaye ijiri. Ubwo ni umwenda w'akazi akaba yambaye kask, akaba yambaye agapfukamuwa, n' marineti amufasha kureba neza; ari kukinyabiziga ikinyabiziga cyitwa moto akaba akora ubutwazi cg se ubwikorezi bw'abantu n'ibintu.